Mu cyumba cyo ku bitaro gifite ibara ry'umweru harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane ziba zikeneye ubutabazi bw'ibanze, ibi bikaba bituma serivisi z'ubuzima mu Rwanda zikomeza kuba nziza.

Umurwayi wavunitse akaguru, akaba agenda yifashishije imbago. Uwo murwayi kandi ari mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, aho yicaye ku ntebe ndetse akaba ari kwitabwaho n'umuganga kugira ngo abe yakira.

Itsinda ry'abantu bambaye imyambaro ifite ibara ritukura, bakora mu kigo gifasha imbabare ndetse bakaba bari guterura umuntu bamushyira ku gatanda mu rwego rwo kugira ngo ajyanwe aho ari bubashe kwitabwaho, uyu bikaba bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima.

ltsinda ry'abantu barimo abambaye impuzankano, zifite ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'abandi bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, bahuriye ahantu mu cyumba cyiza gifite ibara ry'umweru ,baricaye bari mu nama ,ndetse bakurikiranye ikiganiro umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho.

Abantu benshi barimo umugabo bisa nkaho afite ikibazo ku kaguru, arimo arajyanwa ahantu agomba kwitabwaho, uyu akaba yahuye n'impanuka ndetse akaba agiye guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Imbere y'inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, hari itsinda rigari, rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore. Aba bakaba bambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku ndetse isa. Bakaba batanga serivisi zijyanye no gufasha abababaye.

Umugabo wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse wambaye n'ikarita y'akazi akaba ari ahantu habugenewe mu biro bye, uyu mugabo akaba ashinzwe kwita ku buzima ndetse no gutanga izindi serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima hari abagabo babiri bambaye imyambaro ifite ibara ritukura isa, aba bakaba batanga serivisi zijyanye n'ubutabazi bw'ibanze, hari kandi n'ikinyabiziga bifashisha mu gutanga izo serivisi zabo.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu buvuzi harimo n'imikasi, ibi bikaba bifasha kugira ngo abaganga bavure indwara zitandukanye zirimo n'ibikomere ndetse n'izi izo ari zo zose zisaba kugira ngo bagire icyo bakora mu mubiri.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima cyo ku bitaro, harimo ababyeyi bambaye imyambaro itandukanye, ababyeyi bakaba bafite abana bato, bakaba babazanye kwa muganga kugira ngo bitabweho.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro harimo ameza ndetse n'intebe, zicayeho abantu barimo urubyiruko, aba bakaba bari guhabwa amasomo atandukanye n'umugabo uri imbere yabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara.

Utudege duto tutagira abapilote tumaze igihe kinini cyane twifashishwa mu buvuzi mu Rwanda, utu tudege tukaba dutwara imiti cyangwa se n'ibindi bintu byifashishwa mu buvuzi tukatuvana ahantu hamwe tutujyana ahandi mu bitaro.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe bari mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, aba bagore bakabafi abana babiri b'impinja ndetse bakaba bari kwitabwaho n'umuntu ushinzwe ubuzima mu bitaro.

Itsinda rigari ry'abantu rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bicaye ahantu mu cyumba kiza bakaba bari gukora inama. Aba bantu bakaba bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu bakaba bakurikiye kandi ikiganiro umuntu uri imbere yabo ariko bagezaho.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite icyapa cy'ubururu bwijimye ndetse n'inyuguti zandikishijeho zifite amabara y'umweru zerekana ko ari ku bitaro bya gatunda, iruhande rw'iyo nyubako kandi hakaba hari amadarapo y'ibihugu bitandukanye.

umugabo wambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu kazi k'ubuvuzi, ifite ibara ry'umweru ndetse n'uturindantoki, ari kuganira n'umugore waje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro umurwayi aryamye ku gitanda kigezweho, uyu murwayi kandi akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'uturindantoki akaba ari kwifashisha icyuma kugira ngo arebe ko mu mubiri mu imbere ameze.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro, abarwayi bambaye imyambaro yabugenewe ibarinda kuba bagira indwara runaka bandurira ku barwayi, bari kwita ku barwayi bari ku bitanda byabugenewe byo kwa muganga, muri icyo cyumba kandi harimo n'intebe zigezweho zo kwicaraho.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abambaye imyambaro isa y'ibara ry'umweru bifashisha mu kazi bashinzwe kwita ku buzima, bakaba bari gukurikira umugabo uri imbere yabo uri kubaganiriza ndetse bakaba bari mu kigo nderabuzima.

Umubyeyi w'umugore wambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye n'ikarita y'akazi, ari mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi barara harimo abagabo bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru zifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu, aba bombi bakaba bari kwaka amakuru umurwayi.

Mu muhanda mwiza ugezweho ufite ibara ry'umukara ndetse ufite amatara yo ku muhanda harimo itsinda rigari ry'abantu bagizwe n'abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko. Bakaba bafite icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Icyuma k'ikoranabuhanga gifite amabara y'umukara ndetse n'umweru kifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ibi bikoresho bikaba bisangwa cyane mu byumba bikorwamo ubushakashatsi ku mavuriro ndetse no mu bitaro.

Mu cyumba cyabugenewe, harimo abagabo bambaye imyambaro y'akazi, ifite ibara ry'umweru ndetse n'udupfukamunwa n'uturindantoki, aba bakaba bari gukora ubushakashatsi, ku bijyanye n'indwara zitandukanye.

Mu cyumba kiza cyane cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi harimo umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru yifashishwa mu kazi, uyu kandi akaba yambaye n'uturindantoki ndetse akaba ari gukora ubushakashatsi bwe.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, byifashishwa muri ubwo bushakashatsi. Harimo kandi n'umuntu wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'uturindantoki.

Ahantu mu cyumba cyabugenewe gifite ibara ry'umweru harimo abantu bari gukora ubushakashatsi, nanone kandi huzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashisha umuriro w'amashanyarazi, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye.

Mu cyumba cyabugenewe harimo umuntu wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'uturindantoki akaba ari gushyira umuti mu yindi, iki cyumba arimo kikaba gikorerwamo ubushakashatsi bw'indwara zitandukanye.

Itsinda rigari rigizwe n'abanyeshuri ndetse n'umwarimu wabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ahantu habugenewe hakorerwa ubushakashatsi uyu mwarimu akaba ari kubereka uko ubushakashatsi bukorwa muri icyo cyumba.

Icyumba cyabugenewe gifite ibara ry'umweru cyuzuyemo ibikoresho byifashishwa mu gukora ubushakashatsi, icyo cyumba kandi kikaba cyifashishwa mu gupima indwara zitandukanye ndetse n'ibintu bidashobora kuba byaboneshwa ijisho.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi bw'ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa muri ubwo bushakashatsi, harimo kandi n'abantu bambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'umweru, bakaba bari gukoresha ibyo bikoresho mu bushakashatsi.

Mu cyumba cyabugenewe cyo gukorerwamo ubushakashatsi, harimo udukoresho dukozwe mu birahuri, utwo dukoresho tukaba twifashishwa mu gupima ibintu bitandukanye, harimo kandi n'abantu bambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'umweru.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru ndetse n'udupfukamunwa uyu akaba ari gukora ubushakashatsi harimo kandi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga urugero nka mudasobwa.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga harimo umuntu wambaye uturindantoki, uwo muntu kandi akaba afite n'urushinge aho amaze kurukoresha mu gufata amaraso umurwayi, ibi bikaba byifashishwa mu kugira ngo harebwe indwara zaba ziri mu mubiri w'umuntu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ndetse isakaje amabati y'ubururu, ikaba inafite ikigega gifata amazi. Nanone kandi hari ibiti binini birebire bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Abagabo bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse inabapfutse ahantu hose ku mubiri tutibagiwe n'uturindantoki, aba bagabo bakaba bakora serivisi zijyanye n'ubuzima ndetse iyi myenda ikaba ibarinda kuba bagira indwara runaka bandurira ku barwayi.

Mu cyumba cyabugenewe harimo abana bakiri bato bari mu kigero cyo munsi y'imyaka itanu. Abo bana bakaba bicaye ku ruziga bakaba bari kunywa igikoma. Hari kandi n'umuntu mukuru uri kubitaho. Ibi bikaba bibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro harimo umugore wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye n'agapfukamunwa, ku ijosi rye kandi hariho igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Imbere y'inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima ifite ibara ry'ubururu, hari umubyeyi uri guha umwana we amata, aya mata akaba agizwe n'intungamubiri zitandukanye ndetse akaba atuma abana bakura neza.

Abantu bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'icyatsi kibisi cyane bari ahantu mu cyumba gitangirwamo uburezi bw'abana bakiri bato, abo bana kandi bakaba bari kurya ibiryo bigizwe n'umuceri ndetse n'imboga.

Malariya ni imwe mu ndwara yibasira abantu, iyi ikaba yibanda cyane cyane ku bagore batwite ndetse n'abana bari munsi y'imyaka itanu, mu rwego rwo kuyirinda, tukaba tugomba kuryama mu nzitiramibu ndetse no gutema ibihuru bikikije urugo.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro harimo umubyeyi w'umuganga wambaye imyambaro imuranga ifite amabara y'umweru, akaba ari kwita ku wundi mugore mugenzi we w'umurwayi na we wambaye imyambaro y'ubururu bw'ikirere akaba ari kumuvura ku kaboko.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse ukora mu Kigo k'Igihugu Gishinzwe Ubuzima, afite ibyo ari kugeza ku bantu bamukurikiye, bari imbere ye yifashishije indangururamajwi.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zisakajwe n'amabati, izo nyubako zikaba zifite amabara atandukanye arimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, imbere y'izo nyubako kandi hakaba hari ubwatsi butoshye.

Mu cyumba cyabugenewe gitangirwamo amahugurwa ajyanye n'ubuzima, harimo abantu bari kwifashisha mudasobwa ndetse n'abandi bari imbere yabo bari kubaha ibiganiro ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuzima.

Mu cyumba cya kaminuza harimo abanyeshuri bamwe muri bo bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru, bakaba bicaye mu ntebe nziza ndetse bakaba bakurikiye ibyanditse imbere ku rukuta hifashishijwe ikoranabuhanga.

Itsinda ririmo abakorerabushake barimo abagabo ndetse n'abagore bateruye umugore bigaragara ko bafite ikibazo cy'ubuzima, aba bakaba bamujyanye ahantu habugenewe aho yitabwaho ndetse agahabwa n'ubutabazi bw'ibanze.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru afite indangururamajwi aho ari kugeza ubutumwa ku bamukurikiye bari imbere ye, hari kandi n'icyapa kinini gifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Itsinda ry'ababyeyi b'abagore bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse isa, aba bakaba barimo umwe uri kugeza ku bandi ijambo hifashishijwe indangururamajwi na none kandi hari indabo nziza zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bari ahantu hamwe bakaba bambaye imyambaro isa ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bakaba bari mu bukangurambaga bwahariwe kurwanya amakimbirane mu muryango.

Itsinda ry'ababyeyi barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu bwatsi butoshye munsi y'igiti. Aba bakaba bicaye mu ishusho y'uruziga, bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye, zirimo izijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, bicaye hanze ku ntebe zigezweho. Bakaba bambaye inkweto z'umukara. Aba kandi bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyapa kinini gifite ibara ry'icyatsi kibisi, icyo cyapa kikaba cyerekana ko muri iyo nzu hacururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Inzu nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse zifite amabara atandukanye, izi nzu zikaba zigurishirizwamo imiti ivura abantu indwara zirimo nk'imitsi, umutima ndetse n'izindi nanone kandi hari ikinyabiziga k'imodoka.

Mu bubiko bwabugenewe harimo imiti y'ubwoko bwose yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyi miti ikaba ishyirwa muri icyo cyumba kugira ngo biyirinde ubukonje bukabije cyangwa ubushyuhe bukabije bityo bigatuma itangirika.

Mu cyumba cyabugenewe harimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, iyo miti ikaba ipanzwe ku buryo idashobora kwangirika nanone kandi harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Hamwe mu hacururizwa imiti ivura indwara zitandukanye, harimo abagore babiri ndetse bakaba bari gukoresha terefoni, umwe muri abo bagore kandi ari kureba mu gitabo, cyandikwamo amakuru y'abaguze iyo miti.

Ahantu heza cyane habugenewe mu kabati gakoze neza harimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, iyi miti ikaba yarashyizwe aha hantu mu rwego rwo kugira ngo idahura n'ubukonje bwinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi byatuma yangirika.

Mu cyumba cyabugenewe harimo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara nyinshi, iyo miti ikaba ipanzwe mu buryo buyirinda kwangirika nanone kandi muri icyo cyumba harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo w'icunga ushinzwe gucuruza iyo miti.

Umugore n'umugabo bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru bari ahantu mu cyumba kirimo imiti ivura indwara zitandukanye, iyo miti ikaba icuruzwa ku bantu baje kuyigura barwaye indwara.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo iz'umugongo, imitsi, umutima ndetse n'izindi, iyi miti ikaba itumizwa aho ikorerwa maze igashyirwa mu nzu zabugenewe aho abashaka kuyigura bayisanga.

Ibinini bifunze neza mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ibi binini bikaba bivura indwara zirimo Malariya, iyi ndwara ikaba ikunda kwibasira abana bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'ababyeyi batwite.

Umuti ufunzwe neza cyane mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, uyu muti ukaba uvura indwara zitandukanye, ukaba utumizwa aho ukorerwa maze ugashyirwa ahantu hamwe n'indi miti, aho hantu heza hakaba hayibuza kwangirika bityo ikaba yanakoreshwa mu gihe kirekire.

Mu cyumba cyabugenewe, harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru. Uyu mugabo akaba acuruza imiti iri muri icyo cyumba, ndetse iyo miti na yo ikaba ivura indwara zitandukanye, zirimo imitsi ndetse n'izindi.

Imiti yabugenewe ifunzwe neza mu mashashi afite ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, kuri iyo miti hakaba yashushanyijweho rimwe mu matungo magufi yo mu rugo ari ryo inkoko, iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ayo matungo.

Icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umukara, kuri icyo cyapa hakaba hashushanyijeho amatungo yo mu rugo arimo: nk'inkoko, ihene, ingurube, imbwa ndetse n'inka, ibi bikaba byerekana ko aho hantu hacururizwa imiti y'ayo matungo.

Icyumba cyabugenewe kirimo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ndetse ivura indwara nyinshi. Iyi miti ikaba ibitswe neza ku buryo itagerwaho n'ubushyuhe bwinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi, bwashobora gutuma yangirika.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagabo, abagore ndetse n'abana bateraniye ahantu hari kubera igitaramo, icyo gitaramo kikaba kirimo abantu bambaye imyambaro y'umweru bari kubyinira hejuru y'imodoka.

Itsinda ry'abasore bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'umukara bari mu kibuga gifite ubwatsi, aba bakaba bari kwerekana igihembo bahawe nyuma yo gutsinda umukino w'umupira w'amaguru.

Imbere y'inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi hateraniye itsinda ry'abantu barimo urubyiruko ndetse n'abagore n'abagabo, aba bakaba bafite igitambaro kiriho ubutumwa bwo gushishikariza ababyeyi kuganiriza abana babo ubuzima bw'imyororokere.

Ahantu heza cyane habugenewe harimo imiti iri mu ducupa dupfundikiye neza iyi miti ikaba ari iya gakondo yakozwe hifashishijwe ibimera bitandukanye byaba ibihingwa ndetse n'ibyera ku musozi.

Ibimera byinshi ndetse n'ibiti byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo byera ku gasozi ndetse ibindi bigahingwa mu rugo, ubu buvuzi bwa gakondo kuri ubu bukaba bukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko iyo ubukora yabuherewe uburenganzira.

Itsinda ry'abagore bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye ndetse bambaye ibintu bidasanzwe ku mutwe. Aba bakaba bari gukora imigenzo ijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo. Bakaba bari gukoresha ibikoresho bitandukanye bikozwe mu ibumba.

Ibimera ndetse n'ibikomoka ku buhinzi birimo nka tangawizi, indimu ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi gakondo, ibi bikaba bivura indwara zitandukanye zirimo nka rubagimpande, imitsi ndetse n'izindi.

Ubuvuzi gakondo ni bumwe mu bwoko bw'ubuvuzi butajya bukunda guhabwa agaciro cyane ariko nyamara iyo urebye neza usanga ubwo buvuzi buramutse butejwe imbere ndetse ababukora bagahabwa uruhushya usanga bwagira akamaro.

Umuti ufunze neza mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Kuri uwo muti hakaba hashushanyijeho amatungo yo mu rugo arimo nk'inka ndetse n'intama. Uwo muti ukaba wifashishwa mu kuvura ayo matungo, igihe yarwaye indwara runaka.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga gifite amabara y'umweru harimo umugore wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'umweru, uyu mugore akaba ari kumwe n'umubyeyi uteruye akana ndetse akaba ari kugakorera ibizamini agasuzuma indwara zitandukanye.

Abana bakiri bato, barimo abahungu ndetse n'abakobwa bari mu myaka mito, bicaye imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibara ry'ubururu ndetse inafite ikigega gifata amazi mu gihe k'imvura, maze akazakoreshwa mu gihe kiri imbere.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga cyubatse neza harimo abantu batandukanye barimo abaganga ndetse n'ababyeyi bafite abana bato, aba bakaba bari kubaha serivisi z'ubuzima kugira ngo bazakurane ubuzima bwiza.

Icyapa kinini cyane gifite ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umukara kerekana ko hafi aho hari ikigo nderabuzima cya Nyagatare nanone kandi iruhande rw'icyo cyapa hari indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga harimo abantu bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, aba bakaba bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara zitandukanye bifashishije udukoresho tw'ikoranabuhanga.

Mu muhanda w'ibitaka ukikijwe n'ibiti birebire, harimo umubyeyi uhetse akana gato ndetse afite akandi kana mu kiganza, bakaba bari kwerekeza ku nyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye hamwe ahantu mu cyumba gifite amabara y'icyatsi kibisi keruye, aba bakaba bakurikiranye ikiganiro umugabo uri imbere yabo ari kubagezaho ku bijyanye n'ubuzima.

Imbere y'inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ifite ibara ry'umuhondo weruye, hari abagabo ndetse n'abagore baje gushaka serivise zijyanye n'ubuzima, harimo kandi n'abahetse abana bakiri batoya.